Isoko ry'imboga ririmo inyanya, ibitunguru, imiteja, ririmo n'abantu bari kubicuruzamo, harimo abantu bambaye imyenda itukura y'umweru ubururu n'iy'umukara, inyuma isoko rirubakiye rifite ibice bibiri, hari igice cyo hino mo hagati hagacamo akayira no hino hakaba ikindi gice.